Itsinda ry'abantu bateraniye ku meza bari mu nzu bamwe bicaye abandi bahagaze barimo kubafasha, hari ibikoresho birimo imiti iri ku meza byerekana ko hari igikorwa cy'ubuvuzi cyangwa isuzuma.

Ibiganza bibiri biri munsi y'amazi ari gutemba ava muri robine, amazi ni meza ari kumanuka agakubita ku biganza biri mu nsi, amazi arasukuye. Intego y'uyu muntu ni ugukaraba ibiganza kugira ngo akureho imyanda kandi agumane isuku.

Abana bato b'abakobwa n'abasore barimo kunywa amazi mu gikombe, amazi bavomye ku kigega kibamo amazi y'imvura barishimye ntibazi ibyo barimo gukora, bari kunywa amazi mabi.

Abantu benshi b'ingeri zose harimo n'abashinzwe umutekano bicaye ku ntebe nziza bari mu mahema n'abandi bari hepfo y'amahema bafite iitaka. Hari umugabo ubahagaze imbere afite indangururamajwi arimo kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima.

Agatanda kubakishijwe ibiti, urugo rw'umuntu ahagana imbere aho izuba rigera, hanitseho amasahani, n'ibikombe n'utujerekan dutoya, n'ibase agakoresho k'isuku, ndetse n'ibyombo.

Umubyeyi uri kumwe n'abantu babiri. Muganga arikumutera urushinge ku kaboko, arimo araniha cyane ari kubabara, bambaye udupfukamunwa kugira ngo batanduzanya indwara z'ubuhumekero, uburyo bw'ubwirinzi kubanganga,

Inyubako ifite igisenge kimwe cy'ubururu ishusho y'imbere iratukura, hariho urukuta rw'inzira ruzamuka rujya ahantu hateguwe hakubiyemo imiyoboro y'ubururu, ifite amadirishya menshi kandi isa n'aho iherereye ahantu abantu basanzwe batuye, igice cy'ibumoso gisa ubururu icy'imbere hepfo cyubakishije amabuye, iyi nyubako irasukuye mu buryo bwo kubungabunga ubuzima.

Umubyeyi ufite isuka mu ntoki yikoreye ku mutwe igitebo kirimo imigozi, yifotoreje imbere y'inzu arimo kureba imbere, avuye mu murima kuko ari gusa nabi uvuye guhinga.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze mu muhanda arasa nabi nta bwenge afite, yambaye imyenda yacikaguritse, umusatsi we ntabwo wogoshe afite ibyanwa bimeze nabi ntabwo ari umuntu usanzwe ni umusazi.

Abantu benshi biganjemo abambaye imipira y'ubururu bari kumwe n'abantu bambaye neza bakuru, bahagaze imbere y'inzu mberabyombi, barimo ifoto y'urwibutso.

Umuntu umwe ushobora kuba akuze kandi usa nk'uri mu gahinda, yicaye hasi imbere y'inzu mu muhanda, hari n'abandi bantu bigaragaza ko habereye ibindi bikorwa n'abandi bantu benshi bari kunyura aho.

Umuntu uhagaze ahantu hari ibishingwe, yambaye imyenda yuzuye ibisigazwa by'imyanda bitandukanye, afite ikibazo cyo mu mutwe kuko mu ntoki ze afite ibintu by'imyanda byinshi.

Icyumba cyabereyemo inama y'akazi. Abantu batandukanye bicaye ku meza ateguwe n'udutambaro, bareba aho bavuga cyangwa bubaha ibiganiro. Bamwe barandika, bateze amatwi. Icyumba gifite inkuta nyinshi n'amadirishya menshi, ni ahantu hafunganye. Bari mu nama, baha ibintu umurongo, bafite ubushishozi, bambaye imyenda itandukanye nkuko batandukanye.

Abantu benshi bishimye, bafashe ifoto, bafite ibyapa, bakora mu bijyanye n'amenyo, bishimiye kuba bari kumwe n'ibikorwa bari gukora bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ni beza barakeyeye.

Inzu nini ibi ni ibikorwa byo kuvura amenyo, harimo ibikoresho byose byabugenewe, hari amatara kandi hameze neza ni ahantu hateguwe kuva kera, kugira ngo abahanga mu by'amenyo bajye bakoraho ryake.

Umwana wicaye ku ntebe, afite uburoso bw'amenyo mu kanwa, arishimimye arimo araseka, arimo koza amenyo ye yicaye ahantu heza, intebe y'ubururu yambaye agakanzu keza n'umupira, n'ingofero biramunejeje kuba ari koza amenyo ye.

Umuntu uri gukoresha umugozi w'amenyo kugira ngo akure imyanda hagati y'amenyo, arimo kwita ku isuku y'amenyo ye, ibyo ni ingenzi kugira ngo arwanye indwara z'amenyo ndetse n'ibibazo by'ishinya, gukoresha uyu mugozi bigabanya imyanda mu menyo akagira isuku irambye kandi imeze neza.

Umubyeyi usheshe akanguhe yambaye amadarubindi yifashe kumazuru ararwaye ari ahantu bamwitaho inzu nziza iricaye afite ibibazo byo mu izuru.

Abantu benshi bari mu murima barishimye, bazamuye ibikoresho byabo, abandi bazamuye akaboko, higanjemo abasheshakanguye n'abandi bantu bato barimo kubafasha kubitaho kubera ko bakuze.

Abantu bambaye imyenda y'imishanana ni imyenda ya kinyarwanda ni abasheshekanguhe bahagaze imbere yabandi bya uko babahagarariye barasa neza.

Abantu babiri bari mu nzu, umwe afite igikoresho kimufasha kugenda, undi wambaye umwenda w'akazi asa nk'uri kumufasha kugenda cyangwa amurwaje, ahantu bari hameze nk'ikigo cyita ku barwayi, harimo n'ibikoresho bigaragara neza inyuma yabo.

Ikirango kinini cy'umweru, hepfo hari akarongo kariho amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hejuru mu ibara ry'icyatsi, handitsemo amabwiriza yo kwirinda kuvura no kwita ku barwayi ba sida mu Rwanda.

Icyapa kinini cyatseho amagambo manini yuko igihe cyo gukingira indwara cyongerewe kikagera kuri cumi na kane bibiri na makumyabiri na kane, hariho abantu barimo barakingira.

Inzu nini yakira abarwayi, abarwayi bagataha yubakishije amatafari ifite imiryango myiza ariko ntabwo igeretse, gusa iri ahantu hatuje nta n'akavuyo k'abantu benshi bahari.

Inzu nini icanye neza, irimo ibikoresho by'ubuganga imiti, hasi hari amapave, hari amatara habitse n'utundi dukoresho twinshi, bakoresha kwa muganga bavura abarwayi.

Umuryango w'inzu nini, inzu y'ibitaro ivurirwamo abantu, irimo umuntu imbere, iruhande hari ikigega, inzu yakira abarwayi kandi ira ahantu heza, umuntu yabasha kugera byoroshye.

Inzu nini iri ahantu heza imbere yaho hari ibiti yubatse kijyambere, ifite icyapa kigaragaza ko ijyanye n'ibishinzwe gukingira indwara z'abantu ndetse n'inyamaswa.

Ibyuma byiza biri mu nzu isukuye yubatse mu buryo bw'ubuhanga, n'ibindi bikoresho bikenewe ndetse hari n'ikibereka igihe, ibyo bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi.

Icyapa ku bitaro bya Kabgayi umuhanda mwiza abantu banyuramo, hari abantu barimo bagenda uzamuka n'ummanuka ni inzira nyabagendwa, hari amazu n'ibiti abantu barahatuye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bakoresha basuzuma, kugira ngo umuntu babone uko bamuvura. Kiraasukuye hari ibifashisho by'ingenzi muganga yakenera kugira ngo abashe kwita ku murwayi.

Umuntu uryamye ku meza hari n'undi muntu uri kumufasha, yagiye ahantu bakoreshereza imyitozo ngorora mubiri, ni ahantu habugenewe hari ibikoresho ndetse hubatse neza n'ibikoresho bikenewe barabifite.

Ibintu birimo ibikoresho bakoresha bagorora umubiri, harimo n'utubati n'amatara n'abantu bifasha mu buryo bw'imyitozo umuntu yivura.

Abantu babiri bambaye imyenda ya siporo udusengeri ndetse n'makabutura barimo kwirukanka, bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imbuto nziza z'ubwoko bwinshi butandukanye, biteretse hasi, iruhande rwabyo hari ibikoresho, wakoresha mu myitozo ngororamubiri, urarya ukigorora ukagira ubuzima bwiza, mu buryo busanzwe ubifashijwemo n'imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye itaburiya ufite n'ibikoresho mu ijosi na karuvati n'akakandi gakoresho akoresha mu ntoki yiteguye gufasha umurwayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo akire.

Uburyo bw'ikoranabuhanga. Imashini bakoresha kwa muganga. Bakamenya ibimenyetso by'ingenzi. Bakakwereka ibisubizo byawe. Mu buryo bwihuse. Umurwayi agahita amenya uko ahagaze. Bakamukurikirana bakamuvura.

Umwana uri kunywa amazi mu gacupa akoresheje akaboko k'iburyo ari kunywa amazi meza, yambaye agaseri afite n'umwitero kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Icupa ry'umuhondo n'udukarito inyuma yaho cyanditseho fa cumi na gatanu. Ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo. Ndetse biroroshye bakubwira uko ugikoresha.

Umuti uri mu ishashi, hariho n'icyapa, ufite ibiro ijana, hashushanyijeho ibiwukoze, ni umuhondo, akoreshwa mu kuvura ibya kinyarwanda.

Icupa ririmo amavuta yanditseho izina ryayo arowe lipusi, iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza uko uwo muti ukoreshwa n'uko uvura n'icyo uvura muri rusange mbese uri ku meza ateretse neza, iruhande rwayo hariho n'ibindi bikoresho.

Ibimera bibiri bito, bifite amababi y'icyatsi kibisi, amababi mashi akwirara aba ku igice cy'inkingi yacyo bifite imikandara yoroshye bihagaze ku ikintu cy'inyuma cyoroshye.

Ibiti byinshi by'ubwoko bumwe bishishe birebire, bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, n'ibiti bimeze neza nkuko abavuzi babishaka.

iki hafiru rwandaterwa ikanakoresha mu buvuzi gakondo ku indwara zitandukanye z'uruhu gusukura imisatsi ndetse n'ibindi bitandukanye

Igihimba cy'igiti gifite amababi y'icyatsi, kibaye ku ruhande hejuru h'umukara, ikintu cy'umweru kiri hejuru y'icyo gihimba, kigerageza kugihishaho igice yafotorewe hafi, kugirango agaragara amakuru y'ibimera.